Imiti igiye itandukanye, ipaze ahantu hamwe mu tubati, aho iyi miti ari ingenzi kubera ko yifashishwa n'abantu b'aborozi, igihe bari kuvura amatungo yabo.

Ubuhinzi bw'intoryi nabwo buba ari ingenzi cyane kuko nk'abantu baba baturiye za kaminuza, bakunda guhinga intoryi, barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma abanyeshuri bakajya bazigura bakazirya.

Akabati karimo uducupa twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho hariho kamwe kari ku meza, kerekana ko utwo ducupa twose tuba turimo imiti igiye itandukanye ivura amatungo yacu yo mu rugo.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'ibigori akaba afite ipomba yabugenewe, ari kugenda abitera imiti ibyo birayi kugira ngo arebe ko byazabasha kwera neza.

Umuntu w'igitsina gore uhetse ipombo, akaba ari mu murima uhinzemo ibigori. Yambaye amadarubindi ari kugenda abitera umuti, yifashishije iryo pombo ryiza cyane ry'iwe kugira ngo bibashe kumererwa neza cyane.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane ariko biba byiza iyo umuntu yahinze umuceri akawutaho, akawutera n'umuti urinda udukoko kugira ngo utazarumba maze were neza.

Umugabo wambaye imyenda isa n'ishaje akaba ari umuhinzi, ari mu murima uhinbyemo ibitunguru ari kugenda abitera umuti kugira ngo bizabashe kwera neza uko abyifuza.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Awanda aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga umuceri bawitaho bya kinyamwuga maze umuceri na wo wamara kwera bakawuhura, bakawujyana ku makoperative ku bwanikiro kugira ngo bakorere hamwe.

Umugore uhetse ipombo, akaba ari mu murima we yahinzemo amoko agiye atandukanye, iyi mbuto akaba ari kugenda azuhira yifashishije ipombo kugira ngo zitazicwa n'izuba.

Bari mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga bakazitaho, bakagiraha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo ntizitabe mu nama zikabateza imbere.

Umuntu ufashe agacupa mu ntoki kari mu mabara y'umweru n'icyatsi, kakaba karimo imiti igiye itandukanye bifashisha bari gukingira amatongo kugira ngo bayarinde indwara nyinshi zigiye zitandukanye hanyuma amererwe neza.

Umugabo wahinze umuceri ahantu mu gishanga, akaba ari kugenda awitaho, awutera umuti mwinshi kugira ngo uwo muceri utazafatwa n'udukoko tukaba twawangiza.

Umuntu wiga ibijyanye n'ubuvuzi akaba ari mu ishuri ari kugenda akora ubushakashatsi yifashishije imashini zigezweho zabugenewe zifashishwa igihe abanyeshuri bakora ubushakashatsi.

Umugabo uri mu murima we uteyemo imyumbati, akaba ari kugenda atera umuceri uri muri iyi myumbati awutera umuti kugira ngo uwo muceri atazafatwa n'udusimba maze ukaba wamuhombya agasubira ku isuka.

Uburobyi bw'amafi bukomeje gutera imbere. Uyu mugabo rero ari imbere y'icyuzi bigaragara ko yororeyemo amafi ari kukitegereza ngo arebe ko amafi yaba arimo maze aze ayarobo.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga, bakayitaho bihagije kugira ngo azabashe kuba yabateza imbere.

Icyuzi kirimo amafi menshi cyane, aho nyiricyuzi yagize umwuga kurora amafi, akaba ayitaho uko bikwiriye kugira ngo nawe azamuhe umusaruro mu gihe kizaza.

Umugabo uri kugenda iruhande rw'icyuzi hakurya hari abandi benshi b'abagore bari kumureba, bikaba bigaragara ko bari muri koperative imwe ishinzwe gukora ibijyanye n'uburobyi bw'amafi ndetse bakanayitaho.

Ubworozi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga bakayitaho, hanyuma yamara gukura bakajya kuyaroba mu byuzi byabo bakayagurisha.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu cyuzi, aho bafite indobani bakaba bari kuyirambura mu cyuzi neza kugira ngo baze kuyishiburira icya rimwe kugira ngo baze gufata amafi afatika.

abagabo bagera muri batanu bambaye udusengeri ndetse n'udupira, bakaba bakora umwuga w'uburobyi aho buri wese afite ifi mu ntokiyo kutwereka ukuntu umwuga w'uburobyi ari mwiza cyane.

Umuntu ukora umwuga w'uburobyi, akaba ari ahantu mu cyuzi afite indobani iriho amafi ari kwerekana umusaruro amaze kuvana mu cyuzi cye kubera ko kimuteza imbere.

Umwuga w'uburobyi ukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye baroba barabigize umwuga bakabyitaho uko bikwiriye kugira ngo nabyo bizabashe kuba byabateza imbere.

Umuntu wakoze umwuga w'ubworozi bw'amafi akaba afite indobo ari impande y'icyuzi ari kugenda ateramo imiti kugira ngo amafi arimo abashe kubyibuha kandi amererwe neza.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda aho abantu bose basigaye barabigize umwuga korora amafi kandi bagakunda n'ifunguro ririho ibikomoka ku mafi.

Abantu bari mu cyuzi aho bari kugenda bashyiramo indobani itangira amafi ,kugira ngo nimara kugeramo neza, bamwe bajye gukanga, abandi batware indobani maze barebe ko barobamo amafi menshi cyane.

Ababyeyi benshi b'aba mamama bahuriye hamwe bakaba bari gukoma mu mashyi, bakaba ari abahinzi b'ikawa bigaragara ko bari kwishimira umusaruro ukomeje kuva mu gihingwa cyabo cy'ikawa.

Umurima w'icyayi, aho muri uwo murima harimo umugore uhagazemo, akaba ari kugenda yita ku cyayi cye kugira ngo arebe ko cyabasha kuba cyamuteza imbere akabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'icyayi ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga icyayi bya kinyamwuga bakacyitaho uko bikwiriye hanyuma na cyo kikazabateza imbere.

Umugore uri gutambuka mu murima w'icyayi, aho ari kugenda agitera ifumbire yo mu bwoko bwa dapu kugira ngo icyo cyayi kizakure neza kandi gitange umusaruro uko bikwiriye.

Ubuhinzi bw'icyayi burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hari abantu baba bazi gusoroma icyayi akaba ari byo bibatunga, ku buryo bakorera nk'ibihumbi bitatu ku munsi umwe.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu ni ingenzi cyane aho hari umugore uri kugenda asoroma ikawa itukuye kugira ngo abashe kuyigemura ku isoko maze abonemo amafaranga yo gutunga urugo rwe ndetse n'ibindi.

Umuntu wambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi akaba akora umwuga wo gukora mu ruganda rutunganya icyayi, akaba ari kugenda agishyiramo neza mu ruganda kugira ngo ruze kugitunganya uko bikwiriye.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga icyayi barabigize umwuga, bakacyitaho uko bikwiriye hanyuma na cyo kikazabateza imbere.

Umugore uri mu murima ari gusoroma icyayi bigaragara ko umwuga wo gusuroma icyayi yawugize uwe, akaba ari kucyitaho uko bikwiriye kugira ngo kizabashe kuba cyamuteza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ikawa bakayitaho hanyuma iyo imaze gutukura barayisoroma bakajya kuyigurisha.

Ubuhinzi bw'ikawa ni kimwe mu buhinzi bukomeje guteza imbere ba nyirabwo mu Rwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Aho igihugu gisigaye kibona ikawa kigemura hanze mu mahanga, bityo kikagaragara neza cyane.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga umuceri by'umwihariko nk'ahantu mu gishanga, bakawitaho wamara gukura bakawurinda inyoni kugira ngo uzere neza.

Umugore uri kugenda mu murima uhinzemo icyayi, aho berekana ko ubuhinzi bw'icyayi yabugize umwuga akaba afite intebo yabugenewe basoromeramo icyayi ari kugenda ayitemberana kugira ngo nabona aho cyeze aze guhita asoroma.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ikawa bakayitaho bya kinyamwuga hanyuma yamara kwera bakayijyana ahabugenewe kuyigurisha kugira ngo babone umusaruro ufatika maze biteze imbere.

Bimwe mu bihingwa ngengabukungu bizwi cyane mu Rwanda kandi byera ahantu hose ni ikawa kuko yaba ahantu hakonja ndetse n'ahantu hashyuha hose iba yahera maze umuhinzi wayo akiteza imbere akabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'icyayi n'ingirakamaro cyane kubera ko burwanya ubukene ndetse n'ubushomeri mu baturage ,aho hari abaturage bamwe baba batunzwe no gusoroma icyayi cy'abandi, maze bakabona amafaranga.

Ibihingwa ngengabukungu bifitiye u Rwanda akamaro, aho ari kimwe mu bintu byinjiriza u Rwanda cyane, ku buryo nk'umuntu wahinze icyayi iyo akitayeho ari kinini, kimuha ibihumbi nka mirongo ine ku kwezi.

Ubuhinzi bw'icyayi buteza benshi imbere mu Rwanda, umugabo yambaye ikote ry'umuhondo ari mu murima w'icyayi ari kugenda agisoroma kugira ngo arebe uko abona amafaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda nk'ibihingwa ngengabukungu aho hari umukecuru uri kugenda mu murima uteyemo ikawa, ari kugenda areba uko yeze kugira ngo abashe kuba yayisarura akayigurisha akabonamo umusaruro.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho uyu mugabo yambaye amadarubindi ari kwerekana ukuntu iyi kawa ifite imbuto nyinshi zenda gutukura.

ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga icyayi barabigize umwuga, bakacyitaho uko bikwiriye hanyuma icyo cyayi kikazabaha amafaranga.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda nk'ibihingwa ngengabukungu bitanga umusaruro mwinshi aho hari umugabo uri mu cyayi wambaye imyambaro y'umweru uri kugisoroma.

Ubuhinga ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane, aho abantu bose basigaye bahinga icyayi bakacyitaho, hanyuma cyamara kwera kikabaha umusaruro, hanyuma bakabona amafaranga.

Utubido twinshi tugiye dutandukanye dutereretse ahantu ku meza, tukaba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo igihe aba yagize ikibazo cy'uburwayi.

Agakoresho bifashisha bari gukura amahembe y'inka, kakaba karambitse ahantu ku makaro, aho ako gakoresho bakifashisha igihe hari inka ifite amahembe manini bashaka kuyayakata.

Uducupa tugiye dutandukanye ndetse n'utubido tukaba dupanzemo imiti igiye itandukanye aho iyo miti ivura amatungo, iyi miti rero ni ingirakamaro cyane kubera ko ituma amatungo akora neza.

Udukarito tugiye dutandukanye ,turimo imiti y'amatungo igiye itandukanye ,aho iyi miti ari ingirakamaro ku buryo umuntu wese woroye amatungo akayitaho akayaha iyi miti ,abasha gukura neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mo imbere harimo akabati karimo uducupa twinshi tugiye dutandukanye, aho utwo ducupa turimo imiti ivura amatungo igiye itandukanye.

Agacupa kari mu mabara ajya gusa icyatsi n'umweru, kakaba ari ingirakamaro cyane kubera ko kaba karimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo igihe aba yagize ikibazo runaka.

Uducupa tugiye dutandukanye tuba turimo imiti myinshi aho iyo miti ivura amatungo, tukaba ari twiza cyane kandi dufite amabara meza cyane kurushaho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere hapanzemo imifuka igiye itandukanye, ikaba irimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo yo mu rugo igihe yarwaye.

Akuma bifashisha bari gukura amenyo y'inka kakaba karambitse ahantu hasi kuri sima ishashemo amakaro, kakaba ari akuma kera cyane gakata neza.

Udukarito twinshi dutandukanye tuba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo aho iyi miti ari ingirakamaro cyane ku buryo igihe cyose ufite itungo ukabona rirarwaye uyigura maze rigakira.

Inyubako nziza cyane aho mu mbere harimo agatanda karimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu boroye amatungo, aho ibyo bikoresho biba birimo imiti ivura amatungo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako iba irimo imiti igiye itandukanye, iyo miti rero ikaba ivura amatungo indwara zinyuranye.

Udukarito tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara. Utu dukarito tukaba ari ingenzi cyane kuko tuba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo yagize ikibazo.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko, bakabigira umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo nazo zizabateze imbere mu gihe kizaza maze basezere ubukene.

Udushashi tugiye dutandukanye turimo imiti myinshi igiye itandukanye aho iyo miti ari iyifashishwa bari kuvura amatungo ayo ariyo yose yagize ikibazo cy'uburwayi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho muri iyo nyubako mu imbere, hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko hacururizwamo imiti ivura inkoko.

Agakoresho k'umutuku, abaveterineri bifashisha igihe baba bari gukura inka amahembe ikiri ntoya kugira ngo izakure neza cyane kandi ibyibushye, bityo itange umusaruro umworozi.

Uducupa tugiye dutandukanye turambitse ahantu hamwe tukaba turi mu kabati, tukaba ari uducupa ducuruzwamo imiti igiye itandukanye by'umwihariko nk'imiti ivura amatungo yo mu rugo.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi akaba ari ahantu mu murima ari gutera urugemwe rw'igiti kugira ngo abashe kubungabunga ibidukikije.

Umurima uhinzemo ibigori, hakaba hari gutemberamo umugabo, uwo mugabo akaba ahetse ipombo ari kugenda atera umuti ibyo bigori kugira ngo bitazafatwa na nkungwa.

Umuntu uri kugenda mu gisambu asunitse igare bigaragara ko ari umugabo, inyuma ye hari umuntu umusunikiye bari bari kumwe mu gihe bari bagiye gutashya izi nkwi.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga. Bakagenda bayorora ari imwe ikagenda ibyara, hanyuma bikarangira zibaye nyinshi.

Pipinyeri ihunikwamo amoko agiye atandukanye y'imbuto aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane kubera ko ari ho bazirerera zamara gukura bakazigurisha maze abaziguze bakajya kuzitera mu gasozi.

Umugabo wambaye agashati k'umweru gaciye amaboko akaba afashe urugemwe mu ntoki ruri mu gihoho, akaba ari kugerageza gukuraho ishashi ngo arutere ahabugenewe ya panze.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye mu gikorwa cy'umuganda, aho hari umugabo wambaye utupfukantoki tw'umukara uri kumwe n'umusirikare, akaba yunamye ari gutera urugemwe rw'igiti mu rwego rwo guteza imbere ibidukikije.

Umugabo uri mu murima uhinzemo amashu, akaba afite umuhoro, aho arimo arayasarura. Akajya ararica, hanyuma agakataho ibibabi kugira ngo aze gutwara amashu yonyine, atamuremereye maze agereyo byihuse.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ibigori, bakabyitaho kugira ngo bizabateze imbere uko bikwiriye.

Umurima uhinze mo ibigori mu buryo bw'imironko, ubuhinzi bw'ibigori rero ni ingirakamaro aho umuntu wese ubuhinze akabwitaho bubasha kumuteza imbere maze akaba yakirigita ifaranga.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka bya kinyamwuga, bakazitaho bakaziha ibyokurya bigiye bitandukanye kugira ngo izo nka nazo zizabashe gukura neza cyane.

Umurima uri ahantu mu gishanga nubwo nta mazi ahari, ukaba uhinzemo ibigori, ibigori rero ni igihingwa cyiza cyane ariko iyo izuba ribyatatse birarumba.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda. Aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga umuceri barabigize umwuga, bakawitaho uko bikwiriye hanyuma na wo ukazaba wabateza imbere.

Umuntu uri kugenda ahantu mu gisambu ahantu harimo ibyatsi byinshi, akaba ari kugenda asunitse umuceri cyangwa se ibyatsi avuye kwahira ku igare kugira ngo arebe ko yajya kugaburira amatungo ye.

Umuntu usunitse umusaruro w'umuceri ku igare, inyuma ye hakaba hari abandi benshi cyane bari bajyanye gusarura, aho bo bari kuza batamufatiye ku igare.

Umukobwa wahinze ibihyimbo akaba ari mu murima we aho ari kugenda abyuhira kugira ngo nibijya kwera bizere nta cyatsi na kimwe kibirimo maze bimuhe umusaruro uko bikwiriye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bambaye udupira tw'icyatsi, bakaba bari kugenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye mu murima wabo.

Abagabo babiri ndetse n'umwana umwe bakaba bari mu murima wahinzwemo ibihingwa bigiye bitandukanye, bakaba babifasheho basutamye bari kureba umuntu uri kubafotora bishimye cyane.

Umugabo usutamye munsi y'inka ari kuyikama, akama avuruganya akamira mu ndobo bigaragara ko izi nka ari nziza cyane ari kuvuga ati "dore ngo zigatanga amata zigasa n'umwami."

Ikibuga cyiza cyane, kikaba kiri ahantu harambitse, kikaba kinyuramo n'umuhanda w'igitaka ndetse hirya mu kibuga, harimo ubusitani bwiza cyane ndetse n'amazamu atagaragara neza.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imboga aho izi mboga ari ingirakamaro cyane, muri izi mboga rero turabonamo nk'inyanya, karoti, ibitunguru, puwavuro, amatomato ndetse n'urusenda.

Umurima uri ahantu ho mu gishanga uhizwemo umuceri, umuceri rero ni ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wahinze umuceri akawitaho ubasha kumuteza imbere cyane.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahiga imyumbati barabigize umwuga, hanyuma na yo ikazabateza imbere.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu buteza imbere benshi cyane mu Rwanda, aho hari abantu bahinga ikawa barabigize umwuga, hanyuma yakwera bakayisoroma bakayijyana ku buhunikiro bakayigura.

Ipapayi iri ahantu ikaba ari igihingwa cyiza cyane kigirira akamaro uwagihinze kubera ko iyo umuntu akiriye bituma inzira ze zigogora zigenda neza cyane maze akamererwa neza mu mubiri.

Ubutaka bwiza cyane buhinzwemo umuceri, bukaba buri ahantu ku gishanga, aho hanyuzemo umuhanda wa kaburimbo iruhande rwaho, bigaragara ko unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye binyura muri ako gace.

Igishanga gihinzemo amoko agiye atandukanye y'ibimera aho higanjemo umuceri, uwo muceri ukaba ari mwiza cyane ku buryo iyo umuntu yawuhinze akawitaho akawurinda inyoni avanamo nk'ibiro ijana.

Intabire nziza cyane ihinze neza, aho iyo ntabire nta kintu giteyemo, ikaba irimo ibihingwa bigiye bitandukanye bateganya kuba bateramo mu gihe kiri imbere maze bakaba bakunguka.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, aho ibihingwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho, bibasha kumuteraza imbere cyane.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imyumbati barabigize umwuga, bakayitaho uko bikwiriye kugira ngo na yo izabashe kuba yabateza imbere.

Ubuhinzi bw'ibihaza bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abahinzi babyo bagenda bagahinga inzuzi, hanyuma zamara gukura bakajya bazitaho kugeza zeze ibihaza.

Umurima munini uhinzemo imyumbati. Aho imyumbati ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese wayihinze akabasha kuyitaho, akayiha ifumbire uko bikwiye na yo ntabwo imutenguha.

Umurima munini uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese wabihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere kandi bigakurura n'imvura.

Ubuhinzi bw'insina ni bumwe mu buhinzi bukunda gukorwa cyane mu ntara y'iburasirazuba, aho haba hari abantu bafata isambu y'abo nini bagahingamo insina, hanyuma bakajya bagurisha ibitoki, bakabona umusaruro uko babyifuza.

Ubuhinzi bwa avoka ni ingenzi cyane aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga avoka barabigize umwuga bakazitaho, hanyuma zikazabateza imbere bakabona umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'urutoki bukomeje guteza benshi imbere mu Rwanda, aho abantu basigaye bafata umurima wabo munini bagahingamo urutoki gusa, bakarwitaho kugirango ngo bazabashe kubateza imbere.

Udusahane twinshi tugiye dutandukanye, turimo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro kandi zifashishwa ku ifunguro rya buri munsi. Igihe cyose waba ugiye kuritegura ni byiza ko wakoresha zimwe muri izi mboga.

Umurima uhinzemo ibigori aho bigaragara ko ibi bigori bimaze kugera ku buryo umuntu yagisarura akakijyana iwe akagikaga hanyuma akakimanika kuri hangari maze kikazabasha kuba cyamuha umusaruro.

Abantu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, bakaba biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Harimo umuntu umwe, wikoreye injerekani, bigaragara ko avuye kuvoma w'umuhungu.

Ahantu hari umutabo, uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane, hakaba hateyemo urubingo ndetse hirya hateye ibiti byinshi cyane.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imbuto z'amaronji. Bakazihinga zirikiri ntoya, uko zigenda zikura bakazitaho, hanyuma nazo zamara kwera, bakazigurisha, bakabonamo amafaranga.

Agasozi gahinzeho amoko agiye atandukanye y'ibiti aho haciyemo n'umuhanda wa kaburimbo, ruguru yawo hakaba hari insina nyinshi cyane zihateye kandi nziza.

Ahantu hari ishyamba ryiza cyane kandi rinini riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere.

Ishyamba riri kuzamukamo ibicu by'umweru bigaragara ko ari mu gihe cya gitondo none ibicu bikaba biri kuzamuka hejuru kugira ngo igitondo gitangaze ari umwakaka.

Ishyamba rinini cyane rikaba riri gucumbamo umwotsi bigaragara ko ari ibicu bya mu gitondo, rikaba rifite ibiti binini cyane kandi bigiye bitandukanye aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku muhinzi wabyo.

Ahantu mu rusisiro hubatse amazu meza yubatswe mu buryo bugezweho bw'ibitwe, aho ayo mazu inyuma yayo hateye urutoki rwinshi cyane bigaragara ko hari ahantu bagize umwuga ubuhinzi.

Ishyamba ryiza cyane riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti harimo bimwe birebire n'ibindi bigufi, ibi biti rero ni ingenzi cyane kuko biduha umwuka mwiza duhumeka ndetse bikadukururira n'imvura hanyuma tukamererwa neza.

Ishyamba riteyemo amoko atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese ufite nk'ibi biti mu ishyamba rye, aba afite ubutunzi bwinshi cyane cyane.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ingenzi cyane, aho ibigori ari kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro ufatika, ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho iyo abisaruye abigemura ku ruganda rukora za kawunga rukamugurira.

Ahantu hari ibiti byinshi cyane biteye ahantu bigaragara ko ari ishyamba, hakaba harimo udusozi tugiye dutandukanye aho utwo dusozi ari twiza kandi tubereye ijisho.

Ahantu hari ishyamba rinini cyane, rikaba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro ku buryo ari ingenzi. Ni ibidukikije kandi bidukururira umwuka mwiza duhumeka ndetse bikadukururira n'imvura ku bahinzi.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wahinze ibyo biti akabyitaho bibasha kumutera.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu nama, bakaba bafite ibikoresho byabugenewe mu kurangurura amajwi aho umwe ari kuvugiramo abandi bamuteze yombi.

Umurima w'icyayi urimo icyayi kiza cyane kandi gitoshye, hakurya hari ishyamba rinini cyane riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti kandi manini, aho ibi biti ari ingenzi cyane kubera ko biduha umwuka mwiza duhumeka.

Ubusitani bwiza cyane buragiyemo ihene zirikurisha ziri mu mabara agiye atandukanye ndetse hakaba hateyemo n'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu bose baherereye hafi aho ngaho maze bakagubwa neza.

Agasozi keza cyane gateyeho amoko y'ibiti agiye atandukanye, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere maze akabona umusaruro ufatika.

Ishyamba riteyemo amoko agiye tandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho, bibasha kuba byamuha umusaruro.

Ahantu harunze ibiti byinshi bitemye bipanze mu buryo bw'amasitayeri bigaragara ko ari inkwi batemye none bakaba barazipanze hamwe kugira ngo imodoka izaze kuzipakira.

Ishyamba riteyemo amoko menshi y'ibiti agiye atandukanye, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze, akabyitaho, bibasha kumuha umusaruro maze akazakirigita ifaranga.

Agasozi keza cyane kandi kanini gahinzweho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho muri ibyo biti harimo bimwe bya kimeza ndetse n'ibindi bateye bikaba ari byiza cyane.

Ahantu mu ishyamba hateyemo ibiti by'amoko agiye atandukanye bigaragara ko ibi biti ari ibya kimeza, bikaba biteye ahantu mu ishyamba kandi ari byiza cyane bishishe.

Ahantu mu gisambu mu rusisiro hari agahanda kanyura ahantu munsi y'umurima uhinzemo ibigori, hepfo hakaba hari ibiti bya gereveriya ndetse n'insina bihateye byiza cyane.

Isoko ririmo amoko menshi agiye atandukanye y'inyanya zaje ku isoko ndetse n'izindi mboga nyinshi zigiye zitandukanye ku buryo abantu bazikenera, bakaba bazifashisha ku ifunguro ryabo.

Akarima k'igikoni kubabatse neza cyane aho kuba twe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, kakaba kakiri gashyashya kuko nta mboga zigateyemo, akarima k'igikoni ni gahunda yashyizweho na Leta yacu y'u Rwanda.

Ibihingwa bihinze ku murongo bizwi nk'ibishyimbo aho ibi bishyimbo ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze iyo abisaruye abijyana ku isoko akabonamo umusaruro utari muke cyane.

Umuntu uri mu murima uhinzemo amatunda, akaba ari umugore wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ijipo y'umukara, akaba ari kugenda bita ku matunda ye kugira ngo azabashe gukurikira ibiti nk'uko yabiteguye.

Ubuhinzi bw'amashu bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho abantu basigaye bahinga amashu igihe icyo ari cyo cyose yewe no mu mpeshyi bagahinga maze yakwera bagasarura bagatungurwa.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga imyanya barabigize umwuga, bakazitaho uko bikwiriye hanyuma na zo zikazabaha umusaruro ushimishije.

Ibihingwa bigiye bitandukanye by'imboga birambitse hamwe ahantu mu isoko bikaba bigaragara ko biri kugurishwa. Harimo imboga nziza cyane z'amoko agiye atandukanye nka karoti, inyanya n'ibindi.

Umugabo wakoze umwuga w'ubuhinzi none akaba yasaruye, afiteho umusaruro we mu kantu kameze nk'isiniya, ari kugenda awifashisha kugira ngo abigemure ku masoko.

Ubuhinzi bw'urusenda na bwo ni ingirakamaro cyane. Aho muri iki gihe hari abantu bahinga urusenda rwakwera bakarugemura ku nganda, hanyuma bakarugurisha kugira ngo bunguke.

Umugore wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'ibitunguru, akaba ari kugenda abirandura bigaragara ko bigeze igihe cyo kwera, akaba ashaka kujya kubigurisha mu isoko.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga imboga barabigize umwuga, bakabyitaho uko bikwiriye kugira ngo na zo nizera zizabateze imbere.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu murima uhinzemo indabyo bakaba bari kugenda bagisarura bazitaho kugira barebe ko zazabasha kumera neza bakazisarura bakazigurisha bakabona umusaruro.

Ibigori bya nyakagori bitonoye birambitse ahantu hamwe, bigaragara ko ari ibigori by'imibeya bitari byera neza ariko bikaba byerekana ko nibyitabwaho bizera neza maze bigatanga umusaruro.

Ipapayi ni imwe mu mbuto z'ingenzi cyane ku buryo umuntu wese ubashije kuba yarya ipapayi arushaho kumererwa neza maze ubuzima bwe bukaba bwiza n'igogora rigakora neza.

Umurima munini cyane uhinzemo indabyo ziri mu moko agiye atandukanye, aho harimo iz'umutuku, iz'umuhondo, iz'iroza ndetse harimo n'umuntu uri kugenda azitaho.

Ubuhinzi bw'urusenda bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga urusenda barabigize umwuga bakarwitaho uko bikwiriye hanyuma narwo rukazabateza imbere.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'amatunda, ari kumwe na bagenzi be ,aho bari kugenda mu murima w'amatunda, bitegereza neza ngo barebe niba amatunda yareze neza uko bikwiriye.

Muri iki gihe ubuhinzi bukomeje gutera imbere, ubu ngubu abantu basigaye bahinga imyaka, haraje n'uburyo bw'ikoranabuhanga, haba hari amatiyo agenda aca ku myaka akayuhirira, nyirayo atavunitse ngo ari kujya kubyikorera.

Ubuhinzi bw'umuceri ni ingirakamaro cyane mu Rwanda, aho hari abantu basigaye bahinga umuceri barabigize umwuga. Bakawitaho uko bikwiriye kugira ngo na wo uzabashe kuba wabateza imbere.

Umurima uhinzemo amatunda mu buryo bwa kijyambere aho aya matunda ari meza cyane ku buryo iyo umuntu ayahinze akera, iyo agiye kuyasarura ayajyana ku isoko hanyuma akabona umusaruro.

Umuntu wakoze ubuhinzi bw'indabyo, akaba yambaye itaburiya y'ubururu. Ni umwana w'umukobwa mwiza cyane, yambaye n'ingofero. Hirya ye hari bagenzi be bafatanyije, bari kugenda bazitaho neza cyane.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga barabigize umwuga. Bakita ku bihingwa byabo, hanyuma byamara gukura bikabateza imbere cyane.

Ubuhinzi bw'imboga bukunze gukorerwa ahantu mu gishanga ariko muri iki gihe, haje uburyo bugezweho bwo kuhira izi mboga hifashishijwe ibikoresho kabuhariwe mu kuhira, byuhira umuntu utavuye aho ari.

Abantu babiri b'abagabo umwe yambaye agashati k'umutuku, bakaba bagiye gusura umugezi w'amazi, aho umwe ari gutungira undi amwereka ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda ukuntu ari byiza.

Ubuhinzi bw'ibitunguru ni ingenzi cyane, aho muri iki gihe abantu nabo basigaye bahinga ibitunguru bya kinyamwuga bakabyitaho kugira ngo nibikura bizabateze imbere hanyuma bave mu bukene.

Amazi anyura ahantu mu mubande, ayo mazi akaba ari meza cyane kandi akikijwe n'ibisima bigiye bitandukanye ndetse hari n'abantu benshi bagiye batandukanye bahakikije.

Umugabo wambaye igikabutura kinini nk'icy'abakurambere ari mu murima uhinzemo imbuto, afite imashini yabugenewe bifashisha bari kuhira imyaka ari kugenda ayuhira kugira ngo aticwa n'izuba.

Umugabo uri mu murima uhinzemo ibigori akaba afite umupira wabugenewe, akaba ari kuwifashisha agenda yuhira ibigori bye kugira ngo arebe ko byazabasha kwera neza bikamuha umusaruro.

Muri iki gihe haje uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka, aho abantu basigaye bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga bari kuhira imyaka yabo maze amazi akajya aragera hose nyirabyo atavunitse.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'ibitunguru akaba ari kugenda abyitaho abyohera uko bikwiriye kugira ngo izuba ritazabyica maze agahomba agasubira ku isuka.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye barabigize umwuga bakabyitaho izuba ryava bakabivomerara hanyuma bagatera imbere.

Umurima uhinzemo inyanya ndetse hakaba harambitsemo ibase hejuru yayo hari umurasire bigaragara ko iyi base ari yo iba irimo amazi hanyuma ayo mazi akazamurwa n'umurasire.

Umuntu wahinze amoko agiye atandukanye y'imboga aha mu gishanga, akaba afite igikoresho cyabugenewe cy'ipombo ari kugenda azitera amazi azuhira.

Umugore ufite umupira arimo kuhira, akaba ari kugenda yuhira imyaka ye kugira ngo arebe ko yazera neza hanyuma ikaba yamuteza imbere mu gihe kizaza.

Umunara muremure bigaragara ko uba uriho umurasire ukogota amazi mu gihe cyo kuhira kugira ngo abantu nibajya kuhira biborohere, maze bajye bohereza amazi batavunitse, maze agere ku bihingwa byabo mu buryo bworoshye.

Umugabo wakoze umwuga wo guhinga none izuba rikaba ryavuye, ntabwo yigeze yitangira itama ngo yibaze ngo mama ndagira nte, ahubwo we yahise ashaka ipombo aza kuhira imyaka ye inzira zikigendwa, izuba ritarayica.

Umurima munini cyane uteyemo amoko atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane kubera ko harimo n'uryo bushya bwo kuhira bakoresheje imashini zabugenewe.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga imbuto barabigize umwuga bakazitaho uko bikwiriye hanyuma basarura bakajyana ku isoko.

Ahantu hari ikiyaga gikikijwe n'ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane kubera ko bidukururira imvura ndetse bikaduha n'umwuka mwiza duhumeka.

Ahantu heza cyane hari imitabo myinshi igiye itandukanye aho iyi mitabo ari ingirakamaro ku buryo ibasha kuba yateza imbere buri wese maze akaba yakirigita ifaranga igihe yahinzemo ibihingwa byiza cyane.

Udusozi twiza cyane duteyeho amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze akabyitaho bibasha kuba byamuha umusaruro ndetse kandi ufatika.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga mu gishanga bagahingamo amoko agiye atandukanye y'imbuto ndetse n'imboga hanyuma zamara kwera bakajya kuzigurisha ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo barebe ko babona amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye aho hari n'amaterasi meza cyane y'indinganire ku buryo umuntu wese ufite aya materasi aba ari meza cyane kandi akamuha umusaruro.

Amoko menshi cyane agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti biteye ahantu ku gasozi. Mu nsi hakaba harimo igishanga gihingwamo ibihingwa bijye bitandukanye by'umwihariko nk'imboga.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane, aho ubwo butaka buhinzweho amoko agiye atandukanye y'ibimera mbese ibyo bimera bikaba ari ingirakamaro cyane, hari n'amazu menshi agiye atandukanye n'udusozi twiza.

Ikiyaga gikikijwe n'udusozi twiza cyane, aho utwo dusozi duhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibimera. Hakaba hari n'igicu kiyiza cyane kiri mu mabara y'umweru.

Udusozi twiza cyane tugera muri tubiri tukaba ari tumwe mu misozi igihumbi igize u Rwanda, hagati yatwo harimo umugezi utemba w'amazi ndetse hakaba hateyeho n'ibiti.

Ahantu hari agasozi keza cyane gateyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kumugirira akamaro igihe cyose abisaruriye.

Udusozi tubiri duhuye aho duteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse ibyo bihingwa bikaba ari byiza cyane kandi ari ingirakamaro kubera ko harimo n'ibindi birebire bikurura imvura.

Ahantu hari amazu menshi cyane ari hasi mu cyaro, bigaragara ko ari ahazwi nka Cyarubare, hakaba harimo utuzu twinshi dutoya, hejuru hari imisozi iteyeho amashyamba.

Amazu yubatse ahantu mu cyaro akaba asakaje amabati ashaje, aya mazu rero akaba ari ahantu mu giturage ku buryo nta modoka n'imwe yabasha kuhagera batahashyize umuhanda wa kaburimbo.

Agasozi keza cyane gahinzweho icyayi kakaba ari keza cyane bigaragara ko umuntu wese ukabonye yumva yishimye ndetse bikaryohera n'ijisho akumva aranezerewe.

Ubworozi bw'inka burushaho gutera imbere uko bwije n'uko bukeye, abantu bahagaze mu murima bakaba bafite inka iruhande rwabo bari kugenda bazitaho kugira ngo zirusheho kugubwa neza.

Ubworozi bw'amatungo buba ari bwiza cyane ariko iyo umuntu ayororoye mu rugo biba akarusho, kuko bituma ayo matungo amuha umusaruro mu buryo bw'ifumbire ndetse no mu buryo bw'amafaranga.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bagura amasambu manini akazi kabo ari ukorora inka bakajya baziragiramo maze nazo zigakura zigatanga umusaruro w'uko benezo babyifuza.

Ubworozi bw'inka burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, uko bwije n'uko bukeye, aho abashoramari basigaye baragira inka bakaziragirira mu biraro by'ibyuma kugira ngo ziutazabasha gusohoka.

Inyubako nziza cyane aho mo imbere ifitemo icyumba cyororewemo inkoko, bikaba bigaragara ko izo nkoko zarowe mu buryo bwa kinyamwuga ku buryo nyirazo azireba akumva arizihiwe.

Ubworozi bw'ingurube cyangwa se akabenzi, bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, zamara gukura bakazigurisha.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakabyitaho uko bikwiriye hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bajya ku kuguza amafaranga mu mabanki hanyuma bakaguramo inkoko bakazorora.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bazorora bya kinyamwuga bakaziragira neza kugira ngo zizabafashe kwikura mu bukene.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bareka akazi kabo ahubwo bagakora umwuga w'ubworozi bw'inkoko kuko babonye utanga umusaruro.

Ubworozi bw'ihene burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma na zo ntizibatenguhe mu iterambere.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda. Aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga bakazitaho uko bikwiriye, hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko, bakazitaho, bakabigira umwuga, hanyuma zikajya zibaha umusaruro w'amagi maze zikabateza imbere, bakabona amafaranga.

Umugabo ufashe inkoni wambaye akagofero k'umukara akaba ari guha inka amazi aribyo bizwi nko kuyishora mu buryo bw'ikeshamvugo buvuga ikinyarwanda kiboneye.

Imashini nziza cyane ifite amapine. Aho iyi mashini ikunze kuba iri ku ikusanyirizo ry'amata maze igihe cyose amata aje ikaba yayatunganya neza cyane.

Ubworozi bw'inkoko ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga bakaziyitaho, bakaziha ibyo kurya byiza kandi bihagije kugira ngo nazo zizatere imbere.

Ubworozi bw'inkwavu ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkwavu barabigize umwuga, bakazororera mu biraro bigezweho bya kizungu hanyuma zamara gukura bakagenda bazigurisha.

Inkoko nyinshi cyane ziri ahantu hamwe mu cyumba bigaragara ko hari umuntu wazoroye akabigira umwuga, ubworozi bw'inkoko rero bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe zisigaye ziteza imbere benshi.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigage borora ihene barabigize umwuga, bakazitaho uko bikwiriye, hanyuma bakajya banazigaburira.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga koko, bakazitaho, bakazigaburira hanyuma bakazajya birira amagi gusa.

Ubworozi bw'ingurube burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije nuko bucyeye, aho muri iki gihe umuntu wese woroye ingurube akayitaho, aba afite amafaranga menshi cyane kandi afatika yamuteza imbere.

Mu Turere twa Nyagatare na Gatsibo usanga hari abantu borora inka barabigize umwuga bakazitaho uko bikwiriye hanyuma zarwara bakazana baveterineri bakazivura kugira ngo zizakomeze zitange umusaruro.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje guteza imbere ba nyira bwo mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakazitaho uko bikwiriye, hanyuma na zo ntizibatenguhe zikaba zabateza imbere bakabona umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga bakazitaho maze na zo zikazabateza imbere bakabona amafaranga yabafasha gukemura ibibazo.

Muri iki gihe ubworozi bw'inka busigaye bwarafashe indi ntera, aho abantu basigaye borora inka bakabigira umwuga bakazitaho cyane uko bikwiriye hanyuma na zo zamara gukora zikabaha umusaruro ufatika bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho uko bikwiriye, maze nazo zikazabateza imbere.

Ubutaka bwiza cyane burimo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinbye bibasha kumuteza imbere maze akaba yakirigita ifaranga.

Inyubako nziza cyane aho mu imbere harimo icyumba kigari cyororewemo inkoko, harimo umuntu uri gutemberamo aha izo nkoko ibyo kurya yambaye imyambaro yabugenewe bigaragara ko ari umworozi w'izo nkoko.

Ubworozi bw'ihene ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe umuntu wese woroye ihene akazitaho, akaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye na zo nta kabuza zibasha kumuteza imbere.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere mu Rwanda, aho Leta ishishikariza buri muturage ko yagira itungo ry'ihene rimwe mu rugo kuko byamufasha cyane akiteza imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu borora inka bya kinyamwuga, bagashaka ibikuyu bazajya bajya kuziraragiramo kugira ngo izo nka zizabashe gutanga umusaruro.

Ubworozi bw'inka busigaye bwarateye imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka bakazitaho cyane bakaziha ibyo kurya bihagije ndetse bakazubakira ibiraro by'ibyuma kugira ngo zizororoke neza.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane aho muri iki gihe Leta ishishikariza buri muturage kugira ihene mu rugo rwe kuko imufasha kwirinda ubukene.

Ubworozi bw'inka ni ingenzi cyane ariko igihe cyose ubonye umukamo ni byiza ko uwujyana ku ikaragiro maze bakawukugurira bakawutunganya neza ugatanga amata.

Inyubako nziza cyane nini yubatswe mu buryo bugezweho, aho muri iyo nyubako harimo inkoko nyinshi cyane, bigaragara ko uyu muntu yakoze umwuga w'ubworozi bw'inkoko kandi akaba abona ko izo nkoko zizamuteza imbere cyane.

Korora ingurube ukazorora bya kinyamwuga ni ingirakamaro cyane, kuko bituma wowe uzoroye zibasha kuguteza imbere hanyuma ukabona umusaruro ufatika ugakirigita ifaranga.

Abantu benshi bateraniye hamwe, biganjemo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bakaba bagiye gushaka umusaruro w'imbuto bagiye bifashisha batera mu gihembwe cy'ihinga gitaha kugira ngo bazabashe kwiteza imbere.

Umuntu uri kwerekana imbuto za soya mu ntoki, akaba ari kwerekana ko ari nziza cyane ku buryo baramutse bazihinze zitabahombya ahubwo zakwera neza maze bakabona umusaruro uko bikwiriye.

lcyumba kirimo imifuka myinshi ya kiro jana, aho bigaragara ko ari ahantu baba bahunitse umusaruro w'ibihingwa, maze bakaba bagiye kurebamo imbuto bakwifashisha bari gutera itazarumba.

Ubuhinzi bw'ibigori buba ari ingirakamaro cyane ariko biba byiza iyo buri mudugudu ufite ubuhunikiro bwabugenewe maze abaturage basarura ibigori bakajya guhunikamo kugira ngo bizamererwe neza cyane.

Agakoresho kazwi nka mubazi kakaba kari mu mabara y'umukara, gafashwe n'umuntu aho uwo muntu ari kwerekana imibare irimo kugira ngo babone uko babara ibikurikiyeho muri icyo gikorwa.

Umuntu ufashe umuceri utaratonorwa mu ntoki akaba ari kugenda awitegereza kugira ngo mbere yuko bagemura uwo basaruye babanze bavaneho imbuto bagiye guhinga mu gihembwe gitaha.

Umuntu uri gukora mu mufuka urimo ibihingwa bizwi nka soya, akaba ari kugenda asuzuma ko ari imbuto nziza, ku buryo yabasha guterwa hanyuma igatanga umusaruro kuri nyirayo.

Umuntu ufite agakoko kariho amoko menshi y'imbuto zigiye zitandukanye, izo mbuto akaba agiye kuzitera, harimo inzuzi, ibishyimbo, ingano, ndetse n'izindi zitandukanye.

Shitingi irambuye ahantu ku gatanda iriho amoko agiye atandukanye y'umusaruro, aho uwo musaruro wasaruwe none bakaba bawushyize hamwe kugira ngo barebe ko batoranyamo imbuto nziza cyane yo guhinga.

Abantu bagera muri batatu bigaragara ko ari abaveterineri bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'inka. Bakaba bayihuriyeho, bagiye kuyivura kugira ngo barebe ko ubuzima bwayo bwarushaho kumera neza cyane.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka hanyuma buri kwezi bagahamagaza veterineri akaza kuzipima indwara zitandukanye.

Umuntu wakoze umwuga w'uubworozi akaba yahamagaje abaveterineri babyigiye ngo baze basuzume barebe ko inka ze zimeze neza hanyuma akomeze aziteho azi uko zihagaze.

Ubworozi bw'inka ni ingirakamaro cyane, kuko bukomeza kurushaho guteza imbere ba nyirabwo, maze bakabona amafaranga bakunguka bakaba bakwiteza imbere bagakirigita ifaranga.

Ubworozi bwgurube ni bumwe mu bworozi bukunda kwitabirwa cyane ahantu mu giturage aho iri tungo baryita amazina atandukanye: misaya myiza, akabeyenzi, kirigita ifaranga n'ayandi.

Igikoresho kiri mu mabara y'ubururu, kikaba ari igikoresho cyiza cyane cy'indobo, kikaba cyifashishwa n'abantu bakora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane nk'igihe baba bagiye gukora akazi ko kuhira.

Abantu baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo bazwi nk'abaveteneri baba bafite ubuhanga buhanitse ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo ku buryo babasha nko gutera imbwa inshinge bakayivura maze igakira.

Abantu benshi bagiye bitandukanye biganjemo abantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bakaba bateraniye hamwe aho bari kugenda biga ku ndwara zigiye zitandukanye zikunze gufata ayo matungo.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakazitaho, bakaziha ibyo kurya bihagije kugira ngo na zo nizimara gukura bakazijyana ku isoko zizabashe kubungura uko babyifuza.

Ni ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye ,aho ibi bishushanyo biba byarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, baba ari abahanga mu gushushanya, maze bakabyitaho bikamera neza cyane.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, aho abantu basigaye boroye inka barabigize umwuga, bakazitaho uko bikwiriye maze nazo zikazabateza imbere bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo zizabateze imbere.

Akabati kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo bakagenda babyifashisha hanyuma bakayavura maze akamererwa neza.

Si byiza kugenda mu ijoro uri wenyine kuko ushobora kuhahurira n'ibizazane, ukaba wahahurira n'izi mbwa zikakumokera cyangwa se zikaba zakwivuna maze ugasanga uraharenganiye.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa aho izo nyamaswa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wazoroye akazitaho zibasha kuba zamuteza imbere.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, dusangamo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hari inyamaswa yitwa ingwe, ikaba ari ingome cyane kuko iba izi no kurira ibiti.

Muri pariki y'u Rwanda haba harimo inyamaswa zigiye zitandukanye ariko hari imwe izwi nka Kasongo, iba izi kwiruka cyane kurusha izindi nyamaswa, ikagira n'amahane ndetse ikagira n'igihembe ku zuru.

Muri pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'inyamaswa z'inkazi zizwi nk'ingwe, izi rero ziba zikaze cyane ku buryo umuntu wese uyikinishije ifata ku gakanu.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho muri izo nyamaswa hariho zimwe z'inkazi ziba zizi kwiruka cyane ndetse zifite n'amahembe meza cyane zijya kumera nk'inka.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa. Hari izizwi nk'impara ndetse n'imparage, ziba ziri mu tubara twiza cyane. Dukunze kuzisanga muri iyi parike.

Mu kiyaga dukunda gusangamo amoko agiye atandukanye y'ibiguruka biba bizi koga cyane aho bizwi ku izina ry'ibishuhe bikaba bijya kumera nk'imbata ariko byo bizi kuguruka cyane ndetse no koga kurusha imbata ku buryo umuntu yabasha kubitandukanya byoroshye.

Uburobyi ni ingirakamaro ku bantu babukora kubera ko iyo bavuye kuroba amafi bayafata bakayajyana ku masoko bakayatandika, hanyuma uyakeneyene akaza akagura.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda dusangamo utunyamaswa tugiye dutandukanye aho harimo utuzwi nk'inguge tukaba tujya kumera nk'abantu ari two dusa umukara bwite bwite.

Muri pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, haba harimo inyamaswa z'inka zizwi nk'intare, aho iri gusimbukira imparage iyifata ku gakano ishaka kuyirya.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, dusangamo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hariho zimwe ziba ari inkazi dukunda kubona maze tukaba twagira ubwoba.